Ikirango kiri mu mabara nk'umuhondo umweru ndetse n'umutuku, kiranga ko ugeze ahakorera sosiyete y'ubwishingizi sonerwa.

Sosiyete y'ubwishingizi bw'ibintu ndetse n'abantu n'ibindi muri rusange itubwira tubeho dufite icyizere ifite ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru.

Amashusho yamamaza ikigo cy'ubwishingizi kishingira imodoka zitwara imizigo zizwi nk'amakamyo, isaba guhamagara inimero zigaragazwa igihe cyose ukeneye ubwo bwishingizi.

Ikibaho cy'ubururu kegeranye n'intebe itukura iriho n'ibara ry'umuhondo iri kugaragaza amagambo arimo ubwubatsi, ubujura.

Ingufuri iriho ikirango cy'umutuku yegeranya n'ibiceri biri mabara atandukanye, hejuru kandi hari ijambo ry'icyongereza risobanura ubwishingizi.

Tera imbere muburyo bwose bushoboka hamwe na sosiyete y'ubwishingizi ihakubera mugihe cy'ibyago ndetse no mugihe kitari ikibyago.

Iyi wikendi birabera he? ntuhagarike gahunda yawe inshuti yizewe iri hafi yawe igihe uyikeneye, ubwishingizi bw'imodoka yawe.

Sosiyete y'ubwishingizi mu rwanda irakangurira abanyarwanda bose gushinganisha inyubako zabo kuko imvura nyinshi imyuzure ndetse n'ibindi biza, byugarije kandi bishobora guteza ikibazo inyubako zabo.

Uyu munsi uwuharire kwiyitaho no kuruhuka, ukumeke winjiza umwuka kandi uhumeke usohora umwuka ushatse wahamagara ubufasha kuri nimero zigaragara aho.

Ubutumwa bugaragaza ko igikorwa cyo kwishyura hagati y'impande ebyiri cyaciyemo, cyabaye ku itariki eshanu z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Urakaze neza nanone Kayisire muri konti yawe ya banki ya Kigali wareba wanohereza amafaranga kuri nimero zitandukanye.

Umugoroba mwiza Ana konti yawe uri gukoresha muri terefone igendanwa, iriho miliyoni mirongo itanu ayo urimo abandi, miliyoni eshatu nibihumbi magana atanu, igurize cyangwa ubike amafaranga.

Umugoroba mwiza Hirwa, ohereza amafaranga kuri terefone, igurize, ishyura umuriro cyangwa amazi, amafaranga yawe ni aya ngaya kuri konti iyo ni ishusho ya konti yo muri banki.

Isura ya konti ya banki mu gikoresho k'ikoranabuhanga telefone, biri kugaragaza serivise Misigaro yemerewe, zirimo kubikuza ndetse no kubitsa.

Ubutumwa bugaragaza ko ugiye kohereza amafaranga ku muntu witwa Ngabo Muhire, ufite nimero zavuzwe haruguru, amafaranga angana nk'ibihumbi makumyabiri.

Uburyo mu ikoranabuhanga rya telefone ubona uko ibikorwa wagiye ukorera kuri telefone yawe byagiye bigenda, ndetse n'amatariki byabereyeho, ni ubu.

Igikorwa wari urimo cyo kohererezanya amafaranga cyagenze neza. Wohereje neza amafaranga magana atanu kuri nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo irindwi na kane mirongo icyenda na kabiri zeru kane.

Iduka ry'imitako myinshi ikozwe mu bintu byinshi bitandukanye harimo ibirahure, imbaho, umwenda ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ahagurishirizwa imiringa irimo impeta, ibikomo, amasaha ndetse n'ibindi n'imyambaro bijyanye ku buryo ubyambaye aba asa neza.

Ahagurishirizwa ibikorwa by'ubugeni, ndetse n'imyambaro y'imideli harasa neza, hari imiryango myinshi.

Iguriro rigizwe n'ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo inkweto z'abagabo ndetse n'iz'abagore, ndetse n'ibikapu bitwara imizigo mu gihe cyo gutembera.

Mu iguriro ry'imyenda harimo umucuruzi ndetse n'umuguzi. Harimo imyambaro y'ubwoko bwose; iy'abagabo n'iy'abagore kandi harimo amatara meza agezweho.

Ibikoresho byo mu nzu, bibajwe mu giti kinoze, ndetse n'imitako ishushanyishijweho n'amabara y'ubwoko bwose, cyane yiganjemo icyatsi.

Imiringa ikozwe mu masaro ndetse n'ibindi bintu bibaje neza ku buryo buryoheye ijisho, byo kurimbana ahantu biri kugaragarizwa ku bintu bisa umukara.

Umukobwa ukora ubudozi bw'imyenda, n'imideri itandukanye yaba iy'abagabo, ndetse n'iy'abagore, arangariye igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka terefone igendanwa.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye birimo inkweto z'abagore ndetse n'iz'abagabo, telefone ngendanwa ndetse n'udukapu dutoya dukunze kwitwa isakoshi tw'abagore.

Mu iguriro ry'imyenda hari umugore uri guhaha yifashishije ikoranabuhanga ririmo telefone imashini ndetse n'ibindi.

Iduka rifite imyenda y'ingeri zose irimo iy'abagabo, iy'abagore, iy'abana ndetse n'abandi. Hari ibipupe bimurika imyenda kandi bikayigaragaza ku buryo bugaragara.

Iduka rigurisha imyenda y'abagabo ndetse n'abagore, riri kugaragaza imyenda igurishwa hifashishijwe ibibumbano bya purasikike.

Iguriro ririmo inkweto z'ubwoko butandukanye zo kwambara ugiye ahantu zo kwambara igihe uri gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'izindi zitandukanye.

Umugore bigaragara ko ari umudozi akora imyenda cyangwa imideri afite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, terefoni igendanwa, akamashini gafatanya impapuro ndetse n'ibindi.

iduka ryibikoresho byubugeni nk'ibikomo, imyambaro, ingofero ndetse n'ibindi inkuta zayo zirasa nkumukara n'umweru ariko biri mu njyana ibereye ijisho.

Iduka ry'imyenda y'ingeri zose, imyenda y'abana, imyenda y'abagabo n'imyenda y'abagore, amakaro y'umweru.

Icyapa kigaragarira buri wese cy'amabara ubururu n'imweru kiranga ko aho ugeze hogerezwa amamodoka, hagakorerwa amasuku yo mu modoka, hagasigirwa irange ryo mu modoka n'ibindi.

Imodoka nshyashya zitwara abagenzi muburyo bwa rusange, zifite ibara risa umweru ziraparitse kumurongo umwe; hari abagabo babiri bazihagaze imbere.

Imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa toyota itarambikwa nimero y'ikinyabiziga, itaranagurishwa aribwo ikivanwa aho igurirwa.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa toyota, yanditsweho Kigali isoko ahagakwiye kujya nimero iranga ikinyabiziga cyose kiri mu muhanda.

Ikinyabiziga cy'ibara ry'umukara kiri kugurishwa miliyoni cumi n'eshanu, cyitwa yundayi ya bibiri na cumi n'icyenda.

Abagabo bane bameze nk'abari guhererekanya impano, imbere y'ahantu hagurishirizwa imodoka ndetse hari n'imodoka ibegereye cyane.

Imodoka nyinshi z'ibara rimwe ibara ry'umweru, ziparitse mu mbuga zegeranye n'abagabo babiri zisa nK'iziri kugurishwa.

Abagabo bahagaze impande y'imodoka, basa n'abahererekanya impano, hafi n'ubusitani bukeye, buryoheye ijisho.

Abagabo batatu basa nkabari guhererekanya impano mu ntoki zabo bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru, itwara imizigo.

Inoti y'amafaranga magana atanu ya banki nkuru y'u rwanda, iriho abana bafite mudasobwa b'abanyeshuri ndetse n'ikiraro kiri muri Nyungwe.

Igiceri cya kozwe mu gihumbi kimwe magana akenda mirongo irindwi n'akarindwi na banki nkuru y'u Rwanda gifite ibara ry'umuhondo gishushanyijeho amasaka.

Umukozi wa banki ari kubara mafaranga, kugirango yuzuze inshingano. Kandi akore akazi ke nkuko banke ibiteganya.

Abakozi babiri b'abagore bafasha abaturage mu bintu byo kubitsa no kubikura amafaranga, bari inyuma y'kirahure aho bakorera bafite mudasobwa ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga nka telefone igendanwa.

Ahacururizwa ibiribwa by'ubwoko butandukanye bikozwe mu ifarini bararanga ko bagira n'amata atunganyirizwa mu karere ka Nyanza.

Urubyiruko rugaragaramo abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe, bari kunywa amata, mubirahure. Ku meza y'umutuku, bicaye kandi ku ntebe z'umweru.

Ikusanyirizo ry'amata, ritunganya amata, kandi rikayegereza abayagura, ku buryo bubanogeye kandi buboroheye.

Ikarito yifashishwa mu kubika amagi mu buryo bunoze ku buryo atameneka iteretseho ishashi y'amandazi irimo amandazi.

Umugore ari aho bafatira amafunguro ya mu gitondo arimo icyayi ibiribwa bikozwe mu ifarini nk'amandazi imigati kandi yegeranye n'icyuma gikonjesha.

Aho bagurishiriza amata hateretse ibikombe bibiri by'amata ndetse n'akabido yavuyemo, amata agira intungamubiri zifasha mu mikurire y'abana ndetse no guhora ufite itoto.

Amafaranga igihumbi yo mu bwongereza niyo ugiye kohereza wifashishije ikoranabuhanga rya telefone igendanwa kuri konti yawe.

Twizigamire, tugurizwe, dutere imbere hamwe na kopedu banke, wohereze kandi wakire amafaranga aho waba uri hose mu gihugu icyo aricyo cyose wahamagara makumyabiri cumi n'akabiri ku bundi busobanuro.

Kuri konti yawe mufiteho amafaranga mirongo inani n'atandatu n'ibice makumyabiri, aho mugurira mwagura umuriro; mwakwishyura amazi, ndetse n'ibindi.

Ubutumwa buri ku rupapuro rw'umweru bugaragaza iguranwa ndetse n'ihererekanwa ry'amafaranga, uwakiriye amafaranga, igihe yayakiriye, inyungu irimo hagati ndetse n'ingano mu imbumbe muri rusange y'amafaranga yahererekana.

Uburyo wakohereza amafaranga mu bindi bihugu byose. Amafaranga yoherezwa ibihumbi umunani na magana atatu, ibihumbi cumi na bitandatu.

Icyuma cy'ikoranabuhanga kizwi nka telefone, kiri kugaragaramo amashusho asaba uw'uri kuyikoresha ko yahitamo uburyo bwo kwishyura bumunogeye.

Kanda akanyenyeri gatatu kane urwego wishyure nonaha ubashe kubona internet wifashishije momo.

Wishyura ku buryo bwa interineti wifashishije ikarita za banki zabugenewe mu kwishyura cyangwa kubikuza amafaranga koresha viza.

Konti ubikaho amafaranga, ntabwo irigukora. Kwiguriza cyangwa kubitsa serivise nkizo muri rusange ntabwo ziri gukora.

Ubutumwa buri mu gikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka telefone, bugaragaza imibare irimo gatanu, umunani, zeru ndetse n'ibimenyetso birimo akanyenyeri ndetse n'urwego.

Ubutumwa mu ikoranabuhanga bugaragaza uburyo guhererekanya amafaranga byagenze, hari uwohereje ndetse n'uwakiriye mu buryo busesuye.

Aho wanyura usaba inyishyu mu rubuga ukoresheje terefone ngendanwa yawe ahabanza, aho amafaranga yawe wayarebera, umubare w'amafaranga, konte yawe aho wayikurikiranira.

Inyemezabwishyu y'umusoro ku nyungu yo mu kwezi kwa kabiri, itariki makumyabiri n'umunani bibiri na makumyabiri na rimwe mu karere ka Nyarugenge, yari amafaranga ibihumbi mirongo icyenda.

Inyemeza bwishyu y'umusoro ku nyungu y'ikigo cy'ubwishingizi giherereye i Nyarugenge kishyuye itariki eshanu z'ukwacu na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu amafaranga agera mu bihumbi icumi buri kwezi.

Isubirwamo ry'ibyaguzwe cyangwa ibyakozwe bihwanye n'amafaranga y' u Rwanda miliyoni makumyabiri n'imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo itatu na bitatu n'amafaranga ijana na makumyabiri na rimwe.

Icyemezo cyanditswe n'imashini gitangwa n'urwego rw'Igihugu rushinzwe imisoro n'amahoro, kigaragaza ko usora adafitiye umwenda w'imisoro ikigo cy'imisoro n'amahoro.

Icyitonderwa: icyemezo kimara amezi atatu gusa iki cyemezo ntigishobora gukoreshwa mu ihinduranya ry'imitungo itimukanwa.

Inyemezabwishyu y'umusoro ku mutungo yishyuwe itariki mirongo itatu z'ukwakane bibiri na makumyabiri na rimwe mu karere ka Kicukiro yari ibihumbi mirongo itanu na birindwi.

Aha hakurikira hari amakuru ya konti ya Mwizerwa steven, nimero ya konti ni ibihumbi icumi, magana ane mirongo itandatu na gatandatu, magana arindwi mirongo irindwi na karindwi.

Umukozi ukora aho bavunjira amafaranga yo mu mahanga atandukanye urugero; amadorari, amayero ,amanyarwanda, amashiringi ari kuvunjira umukiriya.

Umugabo yicaye afite amafaranga y'ibihugu bibiri bitandukanye afite telefone mu ntoki ndetse yambaye impeta bisa nkaho agiye kuvunjisha amafaranga akabona andi.

Umugabo aje kuvunjisha ku kuguranisha amafaranga y'abahanga, arimo amadolari, amayero, amashiringi yo muri Kenya, shilingi yo muri Tanzaniya ndetse n'ahandi.

Umuntu ari kwitegereza cyane amafaranga ndetse anayabara, agira ngo amenye ingano yayo ubwoko bw'amafaranga ni amadorari y'America.

Abantu babiri batagaragara mu maso bari guhererekanya kandi bakoresha amafaranga yamenyekanye tuzi nk'amadorari.

Ivunjisha ry'amafaranga yo mu mahanga atandukanye, urugero Amadolari, Amashigi yo muri Tanzania, Amashilingi yo muri Kenya ndetse n'Amanyarwanda n'andi mafaranga menshi atandukanye.

Icyapa kigaragaza ibiciro byahindutse ku isoko ry'ivunjisha ndetse n'iguranwa ry'amafaranga y'amahanga. Amafaranga arimo nk'amadolari, amashiriningi ya tanzania, amashiringi ya kenya n'andi menshi

Amafaranga atandukanye yo mu mahanga afite n'amabara atandukanye ajya gusa nka kacye cyangwa umutuku ashushanyijeho inyubako zitandukanye.

Amafaranga menshi ari ahantu hamwe ari mu buryo bunogeye uyabara kuba yayabara, ndetse agiye yanyanditseho imibare n'amagambo.

Amafaranga yo mu Buhinde nayo ari mu mafaranga ahinduranywa cyangwa avunjishwa ku masoko ashinzwe kuvunjisha ndetse no guhinduranya amafaranga mu bindi bihugu.

Ahakorerwa ivunjisha ndetse n'iguranwa ry'amafaranga y'ubwoko bwose, urugero amadolari ku manyarwanda cyangwa amanyarwanda ku madolari, amashiriningi ku manyarwanda n'ibindi.

Ikaze ahahinduranyirizwa amafaranga y'amahanga cyangwa akavunjishirizwa, amafaranga y'abanyamahanga urugero amayero ku manyarwanda, cyangwa amashiriningi ku manyarwanda.

Umukobwa ukora ahavunjishirizwa cyangwa ahaguranirirwa amafaranga yo mu mahanga, nk'Amadolari, Amayelo, Amanyarwanda, Amashilingi, ari kumwenyura.

Indangacyerekezo iri mu ibara ry'umukara ishushanyije ku gikuta cy'umweru iranga aho bajya kuvunjishiriza amafaranga y'abanyamahanga urugero amadolari ku manyarwanda.

Umuryango uriho amabendera y'ibihugu bitandukanye harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kanada, Ubuyapani ndetse n'ibindi, bigaragaza ko ari ahantu havunjishirizwa amafaranga y'amahanga.

Icyapa kigaragaza uburyo amafaranga agenda avunja yo mu mahanga arimo amadolari, amayero, amashilingi yo muri Tanzaniya, ndetse n'andi muri rusange.

Aho ingeri zose, yaba abagabo cya abagore, baza kuguranishiriza amafaranga yo mu mahanga, urugero; amadorari ku manyarwanda, amashiringi ku manyarwanda.

Ahantu hasa nk'ahari inkwi ibiti biba biciyemo byifashishwa mu guteka kandi hasa nk'aho hari igikoni kifashishwa mu guteka indyo z'abantu benshi.

Amacupa maremare azwi nka nili ari hamwe ari iruhande rw'igipfunyika kirimo igipapuro cya kake, biteretse ahantu hameze nk'akabati.

Intebe zikozwe n'igiti cy'ibara ryirabura ndetse n'imisego yo kwegamaho ifite ibara ry'umweru iri ku isoko.

Ameza akozwe mu giti gisize neza, kijya gusa nk'igitukura, ndetse n'intebe bijyanye bifite umwihariko mu mikorere yayo.

Ameza akozwe mu giti ndetse n'ikirahure aho batereka ibikoresho abakoresha ayo meza yifashishwa mu buririro afite n'intebe zikoze kimwe ziryoheye ijisho.

Ahakorerwa ibikoresho byo mu nzu cyangwa aho bigurirwa aho abaguzi babisanga, ibikoresho birimo ameza, intebe ndetse n'utubati.

Intebe ikozwe n'imbaho ndetse n'ibyuma, ikozwe mu buryo butangaje kandi bushyashya butamenyerewe gusa bukomeye.

Hari ibishushanyo by'umukara, biri gucira amazi muri pisine yubakishijwe amakaro y'ubururu, ndetse ku nkengero zayo hariho amahema arinda izuba abakiriya.

Resitora isa neza irimo ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye ndetse harimo n'ibyuma by'ikoranabuhanga nka televiziyo.

Hoteri ifite ibara ry'ubururu ryinganje, yegereye pisine, ndetse izengurutswe n'ibimera bituma hagaragara ko hasa neza.

Imbuga ya hoteli irimo ibimera bitandukanye birimo: indabo ndetse n'ibindi biryoheye ijisho, hari ihema ndetse n'intebe zifite umwihariko udasanzwe.

Imbuga irimo indabo z'ubwoko bwose, indazo zisa ubururu, indabo z'umutuku, indabo z'icyatsi ndetse harimo n'umuyoboro w'amazi.

Pisine yubakishijwe amakaro y'ubururu ngari irimo amazi hicaye abantu bambaye amabara atukura kandi iri imbere y'inyubako nini.

Ikawa iteguye neza iri mu gikombe cy'umweru ndetse mu mu gikoni gisa neza, bigaragara ko giteguye neza, ikawa ifite umutako hejuru, umwe ukurira uyinywa, kuyinywa n'akanyamuneza.

Hoteri ifite intebe z'umwimerere zifite imisego ifite ibara ry'umwihariko indabo kumeza imitako irimo amashusho ndetse n'ibindi bimanitse ku gikuta.

Hoteri isizwe amarangi y'Ubwoko butandukanye asa neza harimo, umuhondo, umweru ndetse n'umukara kandi abakozi baho barasa neza bambaye neza. Ifite n'ibikoresho byo mu nzu bisa neza.

Icyumba cya hoteli kirimo ibikoresho byose nkenerwa mu buzima busanzwe birimo intebe zo kwicaraho, ameza yo guterekaho ibintu, televiziyo ndetse n'ibindi.

Pisine yubakishijwe amakaro y'umukara ndetse nay'ubururu, yegeranye n'indabo ndetse n'inzu byiza cyane biryoheye ijisho ku buryo umuntu wese yakifuza kuhatura.

Inyubako y'ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ikoreramo ibigo by'abigenga nka noteri wikorera ndetse na sosiyete z'ubwishingizi urugero sonerwa.

Urakaze neza aho ubanza igihe uje gusobanuza iby'ubwishingizi mu kigo cy'ubwishingizi cyangwa guhabwa ubwishingizi bw'ikintu wasabye nk'inyubako cyangwa ikinkinyabiziga.

Icyemezo cyuzuzwa n'shaka inguzanyo kigizwe n'imyirondoro y'umuntu ku giti cye irimo amazina ndetse n'aho atuye.

Banki ikorera mu Rwanda irakangurira abantu kwitabira umukino wa nyuma wa tenisi uzabera I Nyamata ku cyumweru.

Umukobwa uri kumwenyura wambaye umwambaro wo kwa muganga ndetse n'igikoresho cyo kwa muganga, yegeranye n'amagambo agira ati imbere heza hategurwa uyu munsi.

Icyapa kiriho umugabo ufite igikapu ndetse n'ibitabo kivuga ku nguzanyo z'abanyeshuri, uburyo wayibona uyemerewe, ndetse kikagaragaza n'aho wanyura uyisaba.

Icyapa cyamamaza gikangurira abantu gushyira imbere iterambere ry'umugore, muri rusange agatera imbere ku rwego rw'igitsina gabo.

Urwandiko rwandikishijwe n'imashini rugaragaza runasaba amakuru ku buryo bwa banke yazajya ikoresha yaka amafaranga.

Inyubako ikoreramo banki, KOPEDU, ikoreramo n'abacuruzi bikorera ku giti cyabo bacuruza imyenda, kandi irimo n'icyuma cyifashishwa babikura ku muntu ufite ikarita.

Ubucuruzi bwawe ni ubucuruzi bwacu, tera imbere vuba kandi cyane n'inguzanyo ya banki ya Kigali

Icyumweru gishyashya kizana n'umukino mushyashya. Iteganyirize ndetse ukoreshe byimbitse, unake inguzanyo muri banki igaragara ku cyapa cyamamaza imbere yawe.

Mu ma soko habonekamo imyenda y'ubwoko butandukanye imideri imyenda igezweho ndetse nibindi kandi hakunze kugendererwa na bantu benshi bifuza ko ibintu byabo bigenda.

Isoko ririmo ibiribwa birimo: karoti, inyanya, pavuro, intoryi, imiteja ndetse n'ibindi nk'ibitunguru.

Ahantu hahuriye abantu benshi bambaye bitandukanye mu mabara menshi hasa nk'ahari kwamamarizwa sosiyete y'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho ribanogeye.

Umugore ahetse umwana mu mugongo ari kugurisha ibiribwa mu isoko birimo amashu, inyanya, ibitunguru, ndetse n'ibindi.

Umucuruzi w'umugore ucuruza mu isoko rusange ucuruza imbuto ari kwereka umukiriya uburyo imbuto ze ari iz'umwimerere.

Amasoko rusange yubakishijwe amabati atukura, ndetse n'uruzitiro rw'amatafari ahiye, n'ibyuma ameze neza afite kandi n'ububiko bw'ucuruza aho yabika.

Umuntu ari koza amafi ayatunganya, ayakorera nandi masuku yose akenewe kugira ngo agurishwe cyangwa atekwe.

Mu iguriro ry'ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye hari umurongo w'abantu benshi bategereje gufashwa.

Umucuruzi ari gucuruza imbuto mu isoko z'ubwoko butandukanye harimo ibishyimbo, imineke, amaronji, ibinyomoro ndetse n'inanasi.

Mu isoko ahagurishirizwa imyenda yadozwe ndetse agakorerwa n'umwuga w'ubudozi kandi hakanigishirizwa abandi badozi bashaka kubimenya byimbitse.

Abantu babyutse bajya gushaka imibereho, haba abagurisha ndetse n'abagura, ni cyo kintu kibaraje ishinga kugeza ubu.

Abagore bari mu isoko bari gucuruza ibiribwa bitandukanye harimo kokombure, urusenda, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Ugurisha ndetse n'umuguzi bari guseka bishimye bahererekanya ikarita ya banki ngo ariho bakura amafaranga yishyura ibyo uguze yatwaye, yatwaye dodo, inyanya ndetse n'ibitunguru.

Sosiyete y'ikoranabuhanga ikorera mu gihugu cy' u Rwanda ikunzwe kandi inazwe iri mu bikorwa byo guteza imbere umuyoboro wabo yashinze ihema iri gucururiza ku muhanda .

Umukozi wo hafi wa sosiyete y'itumanaho icuruza interineti ndetse n'ibindi ari gusobanurira umukiriya imikoreshereze ndetse n'igenamiterere ya serivise batanga.

Iduka ricuruza ibyo kunywa bitandukanye birimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye harimo abagore babiri bari kuganira bagurirana hagati yabo.

Ishyura ukoresheje uburyo bwa momo ishyura ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu ,akannyeri gatatu, urwego cumi mirongo inani na kane, cumi na gatatu wemeze.

Umuntu ari gukoresha icyuma cy'ikoranabuhanga, kizwi nka telefone igendanwa, akoreshamo konte ya momo, hafi hari uri kurya ifarini izwi nka capati.

Umukozi wa sosiyeti y'itumanaho ari gusobanurira umukiriya uburyo yakwigirira Enterinete n'ibindi bikorwa bya sosiyete yabo bitamugoye

Ishyura umucuruzi inuma tekinorogi; ukanze akanyenyeri ijana umunani kabiri akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe akanyenyeri, zeru, zeru, gatanu, gatanu, cumi na gatatu urwego.

Icyaka kiri kugaragaza ko watsindira amafaranga muri sosiyete y'itumanaho, igihe ukoresha serivise ya MoMo, cyegeranye n'ihema ririmo n'abakozi ba, b'iyo sosiyete y'itumanaho.

Urubuga rugurirwaho ibiribwa ndetse n'ibindi bintu ikiremwamuntu gikenera mu buzima, nk'ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi, kiri kugaragaza igiciro cy'ibiribwa bikozwe mu ifarini, ko ari amafaranga magana atatu mirongo itanu.

Ibinyabiziga bine by' ibiziga bibiri, byifashishwa mu gushyira abaguzi baguze ibiryo cyangwa ibindi bicuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umuryango ugana muri ihaha tekinoroji aho usanga imashini ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya tekinoroji, haparitse imodoka y'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri.

Amavuta yo kwisiga ku mubiri ndetse n'imitako yo mu nzu, irimo amasahane, ibirahure cyangwa se amatapi, wabisanga ku rubuga, ukigurira utavuye aho uri.

Umuyobozi w'ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri yashyiriye ibicuruzwa umuguzi yaguze akoresheje uburyo bwo murandasi bw'ikoranabuhanga.

Reba uburyo wagurira ku ikoranabuhanga rya interineti ku maguriro yo mu Rwanda. Amaguriro arimo nk'imyenda y'abana, amavuta yo kwisiga imyambaro yo kwambara ndetse n'ibindi.

Ku mucuruzi uherereye mu Rwanda, tubakorera urubuga rwo gucururizaho, tukabigisha uburyo warucururizaho, ibintu byawe bikunguka, hamagara nimero zigaragazwa tukwigishe uburyo wazajya ushakisha ibintu byawe bikaboneka.

Igikoresho kigurirwaho ibikoresho ndetse n'ibndi bintu bitandukanye kitwa Kasha kiboneka kuri nimero ya terefone icyenda rimwe, rimwe, rimwe umukozi wacyo agemuriye ibikoresho uwaguze umuguzi.

Iguriro rigurirwaho hifashishijwe umuyoboro wa interinete riri gutangaza uburyo abakiliya bajya babona ibicuruzwa mu bundi buryo hatifashishijwe interineti gusa, ari ho guhamagara nimero zigaragara

Ubutumwa mu ikoranabuhanga bugaragaza y'uko ugura igikoresho cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose agabanyirijweho mirongo itatu na gatanu ku ijana.

Dore ibyo amadolari magana atanu buri kwezi yakwishyurira muri Kigali mu Rwanda mu buryo bw'ubukode.

Dore byo miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda zakugurira igihe uri i Kigali, mu Rwanda: Inzu nziza, y'amakaro y'umukara ndetse n'umweru, biryoheye ijisho, ndetse n'amabara atandukanye.

Inzu yuje ubwiza y'ibyumba bine iherereye igisozi i Kigali iragurishwa ifite ubwogero busa neza bufite amakaro y'umukara yirabura ndetse hateyemo indabo ziryoheye ijisho.

Ubwogero bwo mu nzu ndetse n'ubwiherero bwo mu nzu, ni ibintu biba bisa neza kandi bigabanya ingendo za hato na hato usohoka mu nzu.

Reba ibyo amadolari ibihumbi bibiri buri kwezi yakugurira cyangwa yakubonera igihe uri muri kigali mu Rwanda.

Iyi ni yo nzu amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu y'u Rwanda yakugurira muri Kigali mu Rwanda. Isa neza, n'amabara atandukanye, kandi yubakishijwe amakaro.

Dore ibyo miliyoni ijana na moringo itatu yakugurira mu gihe uri muri Kigali mu Rwanda , inzu nziza y'amatara meza .

Abantu babiri, umwe ari kugurisha undi inyubako ifite pisine igaragara neza y'amakaro y'ubururu ndetse yegeranye n'ubusitani busa neza burimo

Dore inzu amafaranga miriyoni ijana na mirongo itatu y'urwanda yakugurira igihe uri muri Kigali mu Rwanda inzu ifite ubusitani ndetse n'indabo ziryoheye ijisho.

Imbuga nziza irimo inzu ifite amabara atandukanye aryoheye ijisho, ifite umuzenguruko wubakishijwe amatafari ahiye bituma isa neza.

Iremera hari inzu ikodesha y'icyumba kimwe aho bogera hamwe ndetse n'igikoni kigezweho gisa neza ku buryo butangaje.

Ishusho yamamaza inzu nshyashya yubatswe iri kugurishwa miliyoni ijana na cumi z'amafaranga y'u Rwanda iherereye i Kigali Kanombe y'ibyumba bine ndetse n'aho bogera hatatu.

Inzu y'icyumba kimwe iri gukodeshwa i remera hafi na sitade kandi iri yonyine mu gipangu cya yonyine.

Icyapa cya sosiyete icuruza amazu ndetse ikanubakira abayigannye yitwa simbuka uve ahatuma udatera imbere.

Icyapa kigaragaza sosiyete ifasha abantu mu kugurisha imitungo, mu kugura imitungo, mu kubakisha amazu, ndetse n'ibindi birimo ubukerarugendo ndetse n'ibindi.

Ahahahirwa hafite imyanya ndetse n'ibyicaro by'abashaka kugira icyo bahaha bakagifatira aho ngaho urugero ibyo kurya nk'imbuto ndetse n'ibindi.

Inzu itunganyirizwamo ikawa irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, mudasobwa, ndetse n'ibindi nka telefoni igendanwa, harimo ibikombe bishyirwamo ikawa igihe yamaze gutunganywa.

Iduka riri imbere ya sitasiyo, aho ibinyabiziga binyweshereza mazutu, esanse cyangwa se peteroli, ririmo ibyo kunywa bitandukanye.

Iguriro ririmo ibikoresho bitandukanye harimo ibikapu bitwara ibikoresho, inkweto ndetse n'imyenda n'ibindi byinshi bitandukanye ryagenderewe.

Iguriro rinini ririmo ibyo kurya bitandukanye harimo nibyo kurya bitandukanye nka ji, amata ibiribwa harimo imbuto nk'inanasi, amaronji ndetse n'ibindi.

urujya nuruza rw'abaguzi ndetse n'abagurisha mu isoko ririmo ibikoresho bitandukanye , nk'ibikapu byo gutwaramo ibintu , ibiribwa , ibikoresho by'amasuku n'ibindi.

Iguriro rinini rusange ririmo ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gikoni harimo ibiribwa birimo imbuto n'inanasi ndetse n'indimu

Icyapa gikangurira abantu kwishyura ubwisungane mu kwivuza, buzwi nka mituweli, n'ikigo kibishinzwe, aho bavuga ko mituweli ari ishema ry'umuryango.

Abagore bane baje kwivuza cyangwa kuvuza ababo, umwe yambaye umupira w'icyatsi uriho ibendera ry'u Rwanda wanditseho urugerero rw'igihugu.

Abantu batatu bari kugaragaza ko bishyuye ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli bufasha uwabwishyuye kwivuza igihe cyose ashakiye mu mwaka bitamuhenze cyane.

Ufite iyi karita ntarembera mu rugo. Ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, itangwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda.

Umugore wambaye ingofero y'ubwubatsi ndetse n'inyundo ikoreshwa mu bwubatsi ndetse n'umwambaro w'umwabatsi, amagambo amuri hejuru agira ati: "EJO HEZA ubwizigane bw'igihe kirekire."

Iguriro rigari ririmo ibinyobwa bitandukanye by'amoko atandukanye kandi bifite n'amabara atandukanye, birimo fanta, amata ndetse n'ibindi. Harimo n'imbuto nk'inanasi, ibitunguru n'ibindi.

Iguriro rinini ririmo ibyo kurya nk'amakaroni, ibikozwe mu ifarini nk'amandazi, imigati ndetse n'imbuto nk'imyembe n'inanasi.

Ahacururizwa ibiribwa bitandukanye, ndetse n'ibinyobwa birimo nk'icyayi ndetse n'ibindi, ahantu ho kuruhukira.

Iguriro rinini ririmo utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye birimo iby'amasuku, Ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo ari kwitegereza ibicuruzwa mu iduka birimo: icyayi, amavuta ndetse n'amavuta yo kwisiga.

Umugabo ukuze wambaye imyenda y'ubururu ari mu iguriro, ari kumwe n'umukobwa ukora mu iguriro, amufasha kureba ibicuruzwa n'ibindi yagura.

Iduka rinini rifite ibicuruzwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye birimo inyama zibaze ndetse n'amata y'ifu n'ibindi bitandukanye nk'ibikoresho by'isuku.

Iguriro ririmo ibyo kurya bitandukanye harimo n'amazi yo kunywa ndetse n'ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwishyura.

Iduka rinini ririmo utubati dupakiyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo: imbuto; inyama, ndetse n'amakaroni n'ibindi byinshi.

Iduka rinini ririmo ibyo kurya bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku; nk'ibisukura mu bwiherero cyangwa mu bwogero n'ibyo kurya birimo nk'amakaroni.

Umuntu ari kugura ibinyobwa bidasembuye birimo amata, ji, fanta ndetse n'ibindi ahagurirwa n'imbuto zirimo amaronji, inanasi n'ibindi.

Iguriro rigari rigendererwa n'abantu benshi ririmo ingeri nyinshi z'ibiribwa birimo ibinyampeke, amavuta atekeshwa, imbuto zirimo nk'inanasi ndetse n'izindi.

Ibiribwa bikoze mu ifarini, n'amagi, ndetse n'ibindi bivanzemo, ni ibiribwa biboneka ku giciro gitoya cyoroheye buri wese.

Mu iduka rigurisha ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho nk'iby'isuku, hari umugabo n'umugore baganira baciririkanya ku ifu y'igikoma, ngo bumvikane ibiciro.